Ababyeyi bita ku bana babo, iyo barwaye babajyana kwa muganga, iyo babagejeje kwa muganga bitabwaho n'abaganga b'inzobere babimenyereye, abaganga bagomba kuba bambaye ga zibafasha kwandura indwara zitandukanye kandi baba bambaye amataburiya y'umweru.

Umuganga akurikirana uko umutima w'uwo bari gukorera operasiyo utera kugira ngo bamenye uko bagenda bamukorera operatisiyo. Iyo mashini ikoreshwa n'umuntu uyizi, ubizobereyemo uzi uko bayikoresha, kandi abaganga baba bambaye imyenda yabugenewe iyo bari muri opera.

Abaganga bakingira abantu icyorezo cy'indwara gishobora kuba cyateye, kugira ngo birinde kwandura mu buryo bworoshye, abaganga bifashisha imiti yabugenewe mu gihe bari gukora isuku aho bagiye gukingira umuntu.

kwegereza abaturage amazi ni bimwe mu bikorwa remezo byo kugeza abaturage ku iterambere, bikaba byatuma abana bashobora kujya kuvoma amazi mu buryo bworoshye. Hari amariba atandukanye uko akoze, hari amariba asaba ko bavoma bapompa ndetse n'amarobine bafungura amazi akizana.

Itsinda ry'abantu bicaye bari kwigishwa uko bakwita ku buzima, ni abana , abamama, abagabo ndetse n'abageze mu zabukuru, kwita k'uko bakomeza kwita ku buzima bwabo n'uko bagira isuku ni bimwe mu bituma bakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuganga uri gukingira umwana, abana iyo bagiye gukingirwa baba bafite ubwoba gusa kubera ko bari kumwe n'ababyeyi babo, barabahumuriza bakabarangaza bakabakingira bibatunguye batabizi, bakabimenya ari uko aho babakingiye habariye nyuma.

Itsinda ry'abantu bita ku buzima, abaganga batandukanye, bafite amabara y'uruhu atandukanye, baba bihuje kugira ngo bashishikarize abantu kwita ku buzima.

Abana bakaraba ku mugezi cyangwa robine igezweho, aho abaturage begerezwa amazi ndetse no mu bigo by'amashuri, amazi aba arimo buryo abana bagiye ku ishuri bayakoresha ku buryo bworoshye.

Bamwe mu baganga bafasha abantu mu kugira ubwishingizi bwo kwivuza bwa mituweli, babashyira kuri lisite y'abantu baba baratanze ubwo bwishingizi, babikorera mu biro byabo.

Umukobwa ukora isuku yo gufura imyenda ye, kandi akavoma amazi hafi mu rugo kubera ko amazi aba yaratwegerejwe, tuvoma amazi dukoresheje ibikoresho bitandukanye, urugero nk'amabuni n'amabasi.

Abantu bavoma kandi ku iriba rigezweho kubera ko begerejwe amazi n'abantu bageze mu zabukuru bajyana ibikoresho bitoya bitwara amazi make bakavoma bashobora gukoresha amajerekani cyangwa ububuni.

Urubyiruko ndetse n'abagabo bari kuvoma amazi bifashishije uburyo bwo kuvoma bapompa amazi, ku mariba aba yarakozwe, ariko amazi ava kure cyane, kugira ngo uyagereho bisaba gukoresha imbaraga kugira ngo azamuke.

Umwana uri kwita ku buzima bwe ashaka amazi meza yo kunywa, mu byaro bimwe na bimwe hari igihe kugera ku mazi meza biba bigoranye, ubwo rero hari igihe biba ngombwa ko bafata amazi bakayayungurura bakayakuramo amazi mazima.

Amariba yegerejwe abaturage mu buryo bworoshye kugira ngo bajye babasha kugera ku mazi meza ,amariba ashobora gukorwa hifashishijwe isima n'umucanga ,kandi amazi ashobora gukorwa aturutse ahantu hatandukanye urugero nko ku isoko ndetse no mu bishanga ,iyo bavoma amazi bifashisha ibikoresho byabugenewe.

Itsinda ry'abajyanama, ni abantu b'abakorerabushake batoranywa bagashyirwaho kugira ngo bite ku buzima bw'abantu b'aho batuye. Baba bafite imyenda ibaranga, amataburiya ndetse n'amakadi.

Amazi ni meza adufasha mu gihe dukaraba tukikuraho imyanda amazi ashobora kuva ahantu hatandukanye ku mvura ndetse no ku mazi yatunganyijwe n'inganda dushobora kuyabona nanone ari uko tuyaguze.

Itsinda ry'abantu batandukanye bavoma amazi kuri robine igezweho robine ishobora gukorwa, igaterwa amarangi bitewe n'uko abayikoze bifuza ko iba abantu baza kuvoma kuri robine buri gihe kuko amazi aba ahora ahari.

Abaganga bita ku mwana ufite ibibazo by'uburwayi, abaganga bakoresha uburyo bwose kugira ngo bite ku muntu baba bambaye imyenda yabugenewe mu gihe bari gukora icyo gikorwa kandi bita ku mwana mama we ahari mu mu gihe ari ngombwa.

Abantu bari kwa muganga bategereje guhabwa serivisi baratandukanye bageze mu zabukuru hari abana ndetse n'ingimbi n'abangavu, kubera ko kwa muganga haba hari abantu benshi hari igihe biba ngombwa ko abantu bategereza kugira ngo bagerweho.

Gukingira bituma abantu bibarinda indwara ndetse n'ibyorezo bishobora gutera abantu mu gihe gitandukanye, ibyo rero bituma abaganga bajya mu byaro aho bashobora kubona abantu mu buryo bworoshye, bakabageraho bakabakingira.

Ahantu hatandukanye bavoma ku mariba atandukanye hari amariba asaba gupopa kugirango ngo amazi ave hasi abantu bayavome ,abana iyo bagiye kuyavoma birabashimisha bagenda bitwaje ububuni n’amajerekani kugirango ngo babashe kuyavoma.

Umuntu ugeze mu za bukuru barimo baramukingira, mu gihe cya Kovide byabaye ngombwa ko abantu bose bikingiza kugira ngo iki cyorezo kitazajya kibazahaza, byari bikomeye ku buryo abantu bose bagombaga kuba bambaye udupfukamunwa

Umuganga ukingira umwana ukiri muto indwara zitandukanye, umwana aba yazanywe na mama we. umuganga nawe aramubeshya akamukingira amutunguye kugira ngo umwana atamukoma akaba yamukingira nabi.

Umujyanama w'ubuzima uri kwita ku mubyeyi n'umwana we, abajyanama b'ubuzima ntibahembwa ni abakorerabushake bahabwa imiti kugira ngo bajye bayigeza ku bantu barwaye mu ma karitsiye batuyemo mu gihe amaze kubapima, bashobora kubasanga mu rugo cyangwa abarwayi baka aribo babisangirayo.

Itsinda ry'abaganga baba barahuguwe na RBC, Rwanda Biomedical Center kugira ngo bajye gufasha abantu babasha kubavura indwara. Iryo tsinda riba ririmo abantu batandukanye, abagabo n'abagore, baba bambaye imyenda ifite ikirango cya RCB.

Umubyeyi woza umwana ashobora kumwogeza ku iriba cyangwa mu rugo, hari igihe ababyeyi bajya kuvoma cyangwa gufura hafi y'iriba kugira ngo babone amazi, hari igihe biba ngombwa ko rero bahita bafata n'abana, bakabogereza aho bari gufurira.

Amavomero abana bavomaho, ubu yarabegerejwe bayageraho mu buryo bworoshye, ibyo bishimisha abana cyane. Iyo bagiye kuvoma bagenda bitwaje indobo cyagwa amajerekani, ibyo bigatuma babasha kuvoma amazi.

Abana bari mu ishuri mu gihe k'ikiruhuko, ni byiza ko abana bagira ikiruhuko kugira ngo baruhuke mu mutwe, bashobora kuba bafite ibintu bari kwiga ku kibaho, bakabisigaho bakabakongera bakabisanga.

Aho abana bigira haba hari ibintu bitandukanye ameza, intebe bicaraho ibikoresho bifashisha biga, kandi ishuri bigiramo riba rikoze neza akenshi riba rishashemo tapi bicaraho baba bambaye imyenda isa y’impuzankano.

Umwana ukiri muto wagiye kuvoma amazi ku iriba kubera ko amariba yegerejwe abantu n'abana bato bajya kuyavoma, ndetse hari igihe bahahurira n'abamama baje kunywa amazi bitambukira.

Urujya n'uruza rw'abantu bitabiriye igikorwa cy'amahugurwa cy'uko bakita ku buzima. Ni abantu batandukanye, abageze mu zabukuru, abana, ingimbi ndetse n'abangavu.

Imashini zifashishwa kwa muganga mu gupima umutima , abaganga bazikoresha baba bambaye imyenda yabugenewe. Urugero : Amasarubeti cyangwa amatabuririya ndetse n'udupfukamunwa ,izo mashini taburo zazo ziba zisa umukara.

Iyo umubyeyi amaze kubyara umwana biba ngombwa ko amwitaho ari kumwitaho rero amwambika neza ndetse akamujyana no kwa muganga kugira ngo akurikirane ubuzima bw'umwana we kugirango arebe ko bumeze neza.

Umuntu uri kwipimisha indwara cyangwa umuvuduko w'amaraso nuko umutima utera, abaganga nabo babikora nk'akazi bakoresheje ibikoresho byabugenewe kandi baba bambaye bikwije, banga kwirinda kuba bakandura cyangwa bakanduza.

Abana bishimira kuvoma amazi hafi yabo, amazi yo ku marobine ntago yirirwa ameneka ahubwo avomwa gusa mu gihe umuntu aje kuyavoma, umuntu ashobora kuza kuyavoma yifashishije injerekani cyangwa akabirikira.

Umubyeyi wajyanye umwana kwa muganga, abantu bari kubitaho babaha amata mu buryo bwa gakondo, hifashishijwe ibyansi byakamirwagamo inka kera, ubu bitagikunze kuboneka.

Agatara ni uburyo bukoreshwa mu cyaro bubaka ibiti, hanyuma bakubaka agatara kugira ngo bajye bagashyiraho amasahani, izuba riyaraseho hanyuma yume neza aveho mikorobe.

Uburyo buciriritse budahenze bwo kubaka kandagira ukarabe, ni bumwe mu bwifashishwa mu byaro mu gihe umuntu avuye muri tuwarete, ushobora kwifashisha ibiti bitatu n'akabuni n'agashumi hanyuma ukubaka kandagira ukarabe.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, abagore, abagabo, abana, abasaza, bahuriye ahantu hamwe kugira ngo bahabwe inama z'uko bakita ku buzima. Bahuriye ahantu hubatse itente ryiza kugira ngo ribarinde izuba.

Ihuriro ry'inama y'abantu bashinzwe kwita ku buzima, bari kwiga ku buryo bajya banoza imikorere yabo ndetse bahuriye ahantu heza, muri sale nziza, ifite urumuri rugaragara, amatara agezweho ndetse na furati sikirini ibafasha kureba ibintu batari kureba wenda nk'ababikora.

Urujya n'uruza rw'abantu rukikije imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi ariyo bita AMBULANCE, iyi modoka ni nziza kubera ko yihuta cyane ikaba yatabara ubuzima bw'umuntu.

Umumama woza indobo yagiye kuvomeramo, ni byiza ko tugirira isuku ibikoresho tuvomeramo, dushobora kujya kubikorera ku iriba cyangwa tukabikorera mu rugo, kubera ko abamama benshi bataba nta bakozi bafite, hari igihe babikora bafite abana babo bari kumwe babahetse.

Itsinda ry'abantutu bavoma bakoresheje amariba agezweho yo gutomba amazi ava munsi y'ubutaka, tuvoma twifashishije ibikoresho bitandukanye, amajerekani manini n'amato, buri muntu wese ashobora gupompa akavoma amazi.

Kwa muganga abantu bakunda kuza kwipimisha indwara zitandukanye, urugero: nk'umuvuduko w'amaraso ndetse n'uko umutima utera. Abaganga na bo baba biteguye kudupima bakoresheje ibikoresho byabugenewe kandi baba bambaye imyenda y'akazi nk'abanyamwuga.

Abaganga bita ku mubyeyi utwite, bumva uko umutima we utera ndetse n'uko umwana ameze mu nda. Bamufashiriza mu cyumba cyabugenewe gifite ibikoresho kandi nabo baba bambaye imyenda yabugenewe.

Abantu bari mu nama ni abagabo n'abagore, bafite amazi impande yabo ku buryo icyaka iyo kimwishe afata amazi agasomaho kugira ngo bagumye kuganira ntawe uteshuka.

Abakozi ba unicef bakorera hirya no hino ku isi, ubwo rero bituma bafasha abantu mu buryo butandukanye, bashobora kubafasha kubagezaho amazi meza, no kwita ku bana, bigatuma babaho neza.

Mu duce tumwe na tumwe tutageramo amazi meza abantu bafata risk zo kuvoma amazi mu bidendezi badubika ijerekani muri ibyo bidendezi hanyuma amazi akajyamo bakayakoresha ariko ibi bishobora kubatera indwara zitandukanye urugero nka diyare ndetse n'izindi nyinshi.

Itsinda ry'abantu batandukanye abageze mu zabukuru, abagore n'abagabo n'ingimbi bagiye kwa muganga, kwifatanya mu gikorwa cyo guhugura abantu uko bakwita ku buzima bwabo kugira ngo babeho neza.

Ihuriro ry'abantu batandukanye abagabo abagore n'ingimbi bahuye mu nama ya national dialogue on health financing kugira ngo barebe uko bakongera ibikorwa remezo mu buvuzi.

Gukoranyiriza abaturage hamwe, bakaganira n'abayobozi babo ku bikorwa by'iterambere, uko bakirinda, bituma abaturage bumva ko leta ibaba hafi n'abayobozi babo.

Umusaza wagiye kuvoma amazi ku mugezi ni umugezi ugezweho aho amazi yegereza abaturage kugira ngo babe bageraho ku buryo bworoshye, ni byiz ko abantu bayegerezwa kugira ngo abantu bashaje bajye babasha kuyashyikira batarinze kuvunika.

Abaganga bakora operation zikomeye baba bambaye neza kandi bambaye imyenda yabugenewe bikwije baba bambaye udupfukamunwa tubarinda kuba bakwandura indwara zitandukanye ahantu bakorera operation haba hari urumuri ruhagije.

Itsinda ry'abana bafashijwe kumenya uko barinda ubuzima bwabo n'uko bakomeza kugira isuku ku mubiri, mu gihe abana bagiye kugirwa inama ni byiza ko bakoranyirizwa hamwe ari benshi kandi nta kubarobanura.

Umwana uri gushaka uburyo yakarabira kuri kandagira ukarabe ikoze mu ndobo. Ashobora kuba avuye kwihagarika cyangwa avuye kwikorera isuku yo ku mazuru kugira ngo atanduza abandi indwara yaba afite.

Abantu bavoma bakoresheje uburyo bwo gupomba. Ni uburyo bwo kwegereza amazi abaturage amazi ava mu nda y'isi. Ubwo rero kugira ngo babashe kuyageraho bapompa bakoresheje imbaraga kugira ngo azamuke agere hejuru.

Amarobine azana amazi ni kimwe mu kintu kiba gikenewe kugira ngo abantu babashe kubaho ndetse n'abana bifashisha ayo mazi kugira ngo bakore isuku baba bari ku ishuri ndetse n'aho batuye.

Itsinda ry'abaganga bakora mu nzego zitandukanye, abaganga baba bafite ikibaranga amakarita y'akazi ndetse n'iyo bari mu kazi baba bambaye imyenda yabugenewe, hashobora kuba harimo abaganga bavura indwara zitandukanye.

Itsinda ry'abaganga bafashe ifoto y'urwibutso kugirango bajye bahora bayibuka, Abaganga baba bambaye imyenda ibagaragaza ko ari abaganga kandi bakaba bafite n'amabaji y'akazi, ashobora gufatira ifoto ahantu heza hafite viyu nziza urugero nko ku biti.

Abana bavoma bakoresheje uburyo bwo gupompa, bari kuvoma bafite ububuni ubutoya n'ubunini ndetse n'amazi arimo araza.

Umwana uvoma amazi ku iriba. Iriba rishobora kuba amazi riyakura ku itiyo iyasakaza cyangwa riyakura ku isoko. Mu kuyavoma yifashishije amajerekani ndetse n'akajerekani gato n'umubirikira.

Abana bavoma amazi bifashishije indobo zifite ibara ry'umweru, bari kuvoma amazi kuri robine zigezweho kandi zihutisha amazi, ibyo bituma abana bagera ku mazi ku buryo bworoshye.

Amariba ni kimwe mu bikorwa remezo byegerejwe abaturage kugira ngo bajye babasha kugera ku mazi mu buryo bworoshye, ibyo birabashimisha urugero nk'abana iyo babona amazi hafi yabo, bashobora kujyana injerekani imwe, ebyiri cyangwa eshatu bitewe n'imbaraga bafite.

Ababyeyi bita ku bana babo, mu gihe bamenye uko bamerewe bakabajyana kwa muganga, iyo babanjyanye kwa muganga, bakoresha abaganga b'inzobere bakita bakanareba uko abana bameze, bakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga nk'igipima umutima uko utera.

Itsinda ry'abaganga abageze mu za bukuru ndetse n'abakiri bato, bambaye imyenda y'akazi yabugenewe iy'abaforomo ndetse n'abandi bambaye amataburiya.

Gukoresha amazi tukaraba amazi ashobora kuba ahantu hatandukanye, abantu bashobora kuyakaraba kandi bakanayanywa mu gihe asukuye, hashobora kubamo isoko cyangwa ava ku itiyo iyasakaza.

Abanyeshuri bafata ifunguro rya saa sita ku ishuri, biba bikenewe kubera ko baba biriwe ku ishuri, baba bagomba kurifata kugirango bakomeze amasomo ya nyuma ya saa sita bameze neza, aba ari abahungu n'abakobwa ku bigo bimwe na bimwe byo mucyaro baba bambaye imyenda itandukanye kake ndetse joru.

Itsinda ry'abana bari kumugezi bose barimo barakaraba, umugezi ushobora kuva ahantu hatandukanye ,urugero mu isoko cyangwa barafatiye ku muyoboro w'amazi. kuba abana babona amazi hafi ya bo birabashimisha cyane.

Abantu bakunda koga, aribyo bita kwidumba bashobora kwidumba muri pisine cyangwa mu kiyaga cyangwa amazi atemba. Ibi birabashimisha, bakumva ari nkaho bari muri pisine cyangwa ahandi hantu, abana ni bo bakunda kubikora cyane.

Itsinda ry'abantu bashinzwe kwita ku bidukikije Rwanda anvaronimenti Otoriti iri tsinda rigizwe n'abantu batandukanye abagore, abagabo ndetse n'abantu bageze mu zabukuru.

Umujyanama w'ubuzima arikwereka umubyeyi uko yajya yita ku bana ndetse n'uko yajya apima abana akareba uko bakura, abajyanama b'ubuzima ni abantu b'abakorerabushake badahembwa ahubwo bita ku baturage batuye.

Bimwe mu byuma byifashishwa mu kubika umwuka wa ogisijene, abantu bakoresha mu gihe ba wukeneye, nko mu gihe umuntu atabasha guhumeka bamucomekaho uwo mwuka kugira ngo abe ari wo ahumeka.

Abayobozi baganira ku buryo bakwirinda icyorezo cya mabaga abayobozi baba bambaye amakoti basa neza kandi baba bafite n'ibitabo bifashisha mu gihe batanga inama no mu gihe bayobora abantu.

Itsinda ry'abantu, bitabiriye inama yo guhugura abantu, uko bakwita ku buzima bwabo, ni byiza ko izo nama ziba kugira ngo abantu babimenye, zitabirwa n'abantu batandukanye, abagabo bakuze, abasore, ndetse n'ingeri zitandukanye.

Inama ihuza bamwe mu baganga n'inzobere mu by'ubuvuzi, bigatuma bafata imyanzuro ku ndwara zimwe na zimwe zishobora kugera ku bantu kandi bagashaka n'uburyo bwo kuzirinda, ibyo bikaba bituma abantu bashobora kumara igihe kinini.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu baba barashyizweho baratoranyijwe bizewe bahabwa imiti kugira ngo bajye bafasha abantu batuye mu tugari, ibyo bituma abantu babasha kubona imiti mu buryo bworoshye. Abajyanama b'ubuzima ntabwo bahembwa gusa bagira imyenda ibaranga cyangwa amajire.

Abana bakoresha robine banywa amazi, akenshi amazi ya robine iyo arimo siro abana bashobora kuyanywa cyangwa n'abandi bantu, kubera ko aba asa neza ariko hari igihe bitaba ari byiza ko bayanywa kubera ko aba adafite isuku cyangwa atizeye bihagije, bikaba ngombwa ko babanza kuyateka.

Itsinda ry'abantu bita ku mirire y'abana, ni byizayiza ko bayitaho kugira ngo abana bakure neza, baba bafite imyenda cyangwa amajire agaragaza icyo abo bantu bakora, baha abana amata ndetse n'ibyo kurya.

Iyo umuntu amaze kuvoma amazi ku iriba, arayafata akayajyana mu rugo, ibyo bigashobora gutuma akora urugendo rurerure cyangwa rugufi, ava aho akuye amazi ayajyana mu rugo kugira ngo ayakoreshe imirimo itandukanye.

Itsinda ry'abantu bicaye muri sale bateze amatwi umuganga uri kubagira inama zuko bakita kubuzima bwabo nibyiza ko abantu bahugurwa kugirango bajye bamenya uko bagira ubuzima bwiza kandi babukurikiza.

Itsinda ry'abana bakiri bato ndetse n'umuntu mukuru umwe, mu kigo gishinzwe kwita ku bana cya Unicef. Iki kigo cyita ku bana mu bihugu bitandukanye kandi kuri buri mwana wese.

Iyo umuntu agiye kwa muganga biba ngombwa ko atonda umurongo kugira abanze yuzuze ibisabwa kubera ko haba hari abantu benshi bituma batonda umurongo ku ivuriro haba hari abaganga bagomba kwakira abo bantu kandi ibyo rigomba risa neza rikoze isuku ritewe n'amarangi.

Polisi y'igihugu ifatanyije n'urubyiruko kwifatanya mu gikorwa cyo kwamagana ihohoterwa kuri buri muntu wese, abantu bashobora guhohoterwa mu buryo butandukanye.

Kwiheba ni imwe mu ndwara yadutse kandi ifitwe n'urubyiruko rwinshi, iyo umuntu yihebye aba akeneye uza kumufasha kugira ngo amukure muri ako gahinda.

Umubyeyi wita ku mwana we, gusekera umwana bituma umwana yumva yishimye kandi bigatuma akunda umubyeyi we, dushobora gufata ifoto n'umwana kugira ngo izatubere urwibutso twaba turi mu rugo cyangwa ahandi hantu.

Umwana ufite uburwayi bwo mu mutwe bituma yiyambura ubusa nk'uko bisanzwe indwara zo mu mutwe zituma umuntu ata ubwenge kandi akumva yigunze rimwe na rimwe, biba hari igihe biba ngombwa ko afungirwa ahantu hawenyine.

Indwara zo mu mutwe zishobora gutuma ababirwaye bumva bigunze kandi bagakora ibintu bidakwiriye, ubu rero bisaba ko tubiririnda kandi tukabitwaraho neza mu gihe tubabonye.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe abantu bafite ubwo burwayi baba basa ukwabo kubera ko baba biyanduza bakora ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bazima bakora abantu rero barabatinya.

Umuntu ufite indwara yo mu mutwe ntabwo aba ari umuntu udasanzwe, usibye ko atajya abasha kwiyitaho akora ibintu ubona umuntu muzima atakora, ibyo bigatuma umuntu ufite indwara mu mutwe ahora asa nabi.

Inama yahuje abayobozi muri RBC: Rwanda Biomedical Center mu kureba uburyo bakomeza kwita ku buzima ndetse bikaba byarakozwe ku munsi wahariwe kwita ku buzima. Ibyo bituma bareba uburyo bakomeza kongera ubuhanga mu kwita ku buvuzi.

Abantu bagiye mu bukangurambaga bifashishije imodoka iba ifite ama ofisi, haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kuba bavura abantu, mu gihe bari kubaha ubukangurambaga babereka n'uko ibintu bikorwa.

Inama ihuza abantu batandukanye yuko bakita ku buzima inama bayikorera ahantu hasa neza hari intebe zigezweho zo kwicaramo ndetse n'ameza asa neza.

Abantu bari gukora ibarura banakingira abantu, ibyo bintu byakozwe muri Kovide, abantu bajyaga kwipimisha, aho habaga hakorewe icyo gikorwa habaga hashinze amatente yifashishwa muri icyo gikorwa.

Imodoka za Unicefu ziba zitandukanye mu bwoko, haba hari inini n'intoya, amakamyo manini atwara imiti ndetse n'ibiribwa aba asa umweru afite n'ibirango by'icyo kigo, ashobora guca ahantu aho ariho hose mu nzira ndetse akageza ibiribwa ku bantu.

Umuntu ugeze mu zabukuru ufite uburwayi bwo mu mutwe, abantu babufite baba batandukanye n'abandi mu byo bakora, uko bambara ndetse n'imyitwarire yabo, ni byiza ko ubwo burwayi ku muntu ubufite yabwivuza hakiri kare.

Itsinda ry'abantu abato, abakuru, ingimbi n'abangavu, abagabo n'abagore bahuriye mu nama ibafasha kwita ku buzima, uko bigaragara barasa neza kandi bari ahantu heza hafite isuku.

Indwara zo mu mutwe ni zimwe mu bituma abantu bakora ibintu biteye isoni ariko ababareba ntibibatere isoni, hari indwara zo mutwe zitandukanye, kandi abantu bafite indwara zo mu mutwe kenshi ntabwo bajya biyitaho kubera ko nta bwenge baba bafite.

Umwe mu bantu bagifite uburwayi bwo mu mutwe, abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe abantu barabatinya kandi bagira amahani, hari igihe biba ngombwa ko bababoha kugira ngo batagumya guteza akavuyo, ni byiza ko bitabwaho bakabajyana mu bigo byabo byabagenewe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe asa nabi afite imisatsi myinshi yamwereyeho, kubera ko atajya yiyogoshesha. Yambaye imyenda yamucikiyeho kubera ko atajya yiyitaho kandi aranasa nabi cyane.

Umuntu urwara indwara zo mu mutwe aba yigunga rimwe na rimwe kubera ko hari ibintu abatumvikanaho kimwe nabandi cyangwa abandi bantu bakaba batamwiyumvamo ibyo bishobora gutuma akomeza kwigunga cyane kandi rimwe na rimwe bisaba ko abantu babitaho cyane birenze urugero.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ni imwe mu ndwara zikunda kwibasira abantu bitewe n'ibintu bitandukanye urugero nko kuba bamuroze abantu bafite indwara zo mu mutwe barigunga kandi bakora ibintu bitari bizima ndetse abantu baranabatinya.

RBC, Rwanda Biomedical Center, ikigo gishinzwe kwita ku miti yifashishwa mu buganga, inama yahuje abantu batandukanye, iyobowe n'abantu babiri bari kwiga ku buryo bakomeza kongera imiti no kugenzura iyo miti.

Umwana uri ku ishuri arishimye kandi yicaye mu ntebe zo ku ishuri zagenewe abawumwitaho bakareshereza imisatsi y'amadirede igezweho.

Kwita ku bana ntabwo bisaba ibintu byinshi. Kwa muganga bashishikariza abantu guteka igikoma, bagaha abana babo ndetse bakanagirira isuku aho batuye.

Guterwa agahinda n'ibintu bitandukanye nko gupfusha cyangwa kubona ibintu bibabaza, bishobora gutuma umuntu arakara kandi akarira, iyo umuntu arize amaso ye aratukura, kandi n'amarira agashoka ku matama.

Amenyo ni kimwe mu bice by'umubiri bituma umuntu agaragara neza. Amenyo abaho asa umweru, ariko kugira ngo ase umweru bisaba ko tuyitaho, mu buryo bwo kuyitaho rero harimo uburyo bwo gukoresha agashashara, kugira ngo dukure ibi biba byaheze hagati y'amenyo bitavanamo imyanda.

Abana biborosa, ni kimwe mu bintu bituma tugira amenyo asa neza kandi asa umweru, ibyo bituma iyo dusetse tugaragara neza kubera ko amenyo yacu aba adafite imyanda.

Umuntu wita ku menyo ye, twita ku menyo mu buryo butandukanye, kugira ngo ahore asa umweru, kuba amenyo yacu asa neza bituma tugaragara neza, dukoresha uburyo butandukanye tuyitaho uburyo nko gukoresha agashashara kugira dukuremo imyanda ibaheze hagati y'amenyo.

Iyo twita ku menyo yacu, bituma ahora agaragara neza kandi agahora asa umweru nk'ibara ryayo, dushobora kwita ku menyo mu buryo butandukanye, dukoresha agashashara kugira ngo dukuremo imyanda iba yaheze hagati y'amenyo.

Imashini zifashishwa kwa muganga ziba zisa neza zifite ikoranabuhanga kandi zihora zicometse ku muriro kubera ko ibitaro bitajya bipfa kubura umuriro, ziba ziri ahantu habugenewe hari intebe abantu bicaraho mu gihe bari kuzikoresha.

Zimwe mu mashini zifashishwa kwa muganga ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho bitandukanye. Buri cyumba cyo kwa muganga umuganga akoreramo, kiba kirimo isaha imufasha kumenya igihe n'aho amasaha ageze.

Kwita ku menyo ni byiza kuko bituma amenyo agira isuku, akagaragara neza waseka ukabona ni byiza. Dushobora kwita ku menyo mu buryo butandukanye. Ushobora gukoresha agashashara ugakuramo ibiryo biba byahagamye mu menyo utabasha gukurazamo intoki.

Kwita ku menyo ni byiza kuko amenyo yacu ahora asa umweru twaseka bikagaragara neza, umusore wita ku menyo ye agaragara neza kandi no mu mugihe akorera isuku ubwanwa bwe bigatuma ahora afite umubiri ukeye.

Ahantu hakorerwa ibintu by'ingenzi kwa muganga cyane cyane nk'imiti, kubaga ibintu bishobora gutwara ubuzima bw'umuntu. Haba hasa neza, hafite isuku kandi hatuje. haba hari urumuri rugaragara ndetse hagomba no kuba hari imashini zabugenewe zifashishwa muri ibyo gikorwa.

Kwita ku menyo ni kimwe mu bintu byiza bituma amenyo yacu ahora asa neza, agomba kuba asa umweru, kandi iyo asa neza ugaseka bigaragara neza, dukoresha uburyo butandukanye bwo kwita ku menyo, urugero dukoresha ni nko gukoresha agashashara kugira ngo dukuremo imyanda iba yahezemo hagati.

Amenyo ni kimwe mu bice by'umubiri bigaragaza ubwiza, haba asa umweru, tuyitaho mu buryo butandukanye, dushobora gukoresha ibikoresho bitandukanye urugero nk'uburoso kandi tugakoresha n'umuti wabugenewe w'amenyo.

Kwitoza kuvura uburwayi bw'amenyo, umuganga kugira ngo abe inzobere agomba kuba yarakoze puratike kugira ngo abashe kuvura uburwayi bw'amenyo kugira ngo abimenye yifashisha igisitati cy'ishinya ndetse iriho n'amenyo.

Umusore wita ku menyo ye akoresheje uburyo bwo gukoresha agashashara kugira ngo akuremo imyanda iba yaheze hagati y'amenyo kugira ngo bitazamuteza infegisiyo yo mu menyo ibyo bituma amenyo ahora asa neza umuntu atanuka mu kanwa.

Intebe zishobora kuvamo ibitanda ndetse umuntu akanicaraho, bazikoresha mu gihe bari kuvura umuntu urugero nk'uburwayi bw'amenyo ziba ziri ahantu muri salle zaho zikorerwa.

Kwita ku menyo ni byiza kuko bituma umuntu agaragara neza ,amenyo aba agomba gusa umweru ku muntu uyitaho hari uburyo butandukanye bwo kwita ku menyo dushobora kwifashisha agashashara kugirango ngo dukuremo ibiryo biba byahagamye hagati y'amenyo.

Kwita ku menyo tubyutse mugitondo ni byiza cyane, dushobora kwita ku menyo mu buryo butandukanye, dukoresheje n'ibikoresho bitandukanye, iyo amenyo yacu asa neza ari umweruru bigaragara neza, twita ku menyo rimwe na rimwe dukoresheje uburoso na korogati.

Iyo umuntu yitaye ku menyo ye bituma aseka kandi akagaragara neza mu gihe ari gukora icyo gikorwa. Dushobora kwita ku menyo yacu mu buryo butandukanye. Dushobora gukoresha agashashara kugira ngo dukuremo ibiryo biba byahagamye mu menyo, hanyuma twirinde imyanda yahama mu menyo igateza infection.

Umuntu ugeze mu za bukuru ari gufata imiti. Bisaba kuba azi igihe afatira imiti ndetse n'isaha ayifatiraho, bigatuma ayinywa ikamufasha gukomeza kwirinda indwara zimwe na zimwe cyangwa zigatuma izo ndwara arwaye izoroha.

Umwana ukiri muto agerageza kwita ku menyo ye n'ubwo aba atarabimenya neza, ariko iyo ahawe uburoso kubera ko aba abona abandi bantu babikora nawe arabikora, ni byiza ko twita ku menyo kandi tugatubona n'abana bakiri bato kwita ku menyo, kugira ngo bajye bayitaho no mu gihe umuntu mukuru atabonye umwanya wo kuyitaho.

Umunwa, ishinya, amenyo. Amenyo aba afatiye ku ishinya ubwo rero bituma amenyo akomera, bigatuma umuntu abasha kurya ibiryo bitandukanye, urugero nk'ibinyampeke n'ibindi biryo bikomeye by'ibinyamafufu.

Abantu bakuze bagikunda kugira indwara z'amenyo ubwo rero bajya kureba abaganga babafasha bakabakorera amenyo yabo neza nko mu gihe yahangutse abo baganga baba bambaye ibikoresho byabugenewe urugeroa NK' agapfukamunwa ndetse yitabuwe.

Umusore wishimye, kandi akaba yita ku mubiri we, yambara neza imyenda ifite isuku, ubwanwa bwe arabucongesha kandi afite inyogosho nziza y'abantu bakuru.

Kwita ku menyo tuyaborosa, ni kimwe mu bituma amenyo yacu akomeza kugaragara neza. Umuntu aborosa mu gitondo abyutse cyangwa amaze kurya. Dushobora kwifashisha umuti wabugenewe, tugasukura amenyo yacu. Urugero nka korogate ndetse n'uburoso.

Abana batozwa gukorera isuku amenyo yabo bakiri bato kugira ngo mu gihe ababyeyi babo batabakoreye isuku bajye bayikorera isuku, ibyo bigatuma amenyo y'abana bato ahora asa neza kubera ko nabo baba bazi kwikore isuku badategereje ko umuntu aza gukorera amenyo yabo isuku.

Umuganga uvura amenyo ashobora kwifashisha ibikoresho bitandukanye, kandi bakura amenyo abantu batandukanye: abagore, n'abana n'abagabo, abaganga bambaye imyenda yabugenewe mu gihe hakorwa icyo gikorwa.

Umuganga wita ku menyo y'umwana. Amenyo y'abana kubera ko bataba akenshi bazi kuyitaho, hari igihe biba ngombwa ko arwara akazamo imyanda. Ubwo rero ni byiza ko bajyanwa kwa muganga kugira ngo abaganga bayakurikirane barebe ko nta kibazo kirimo. Ariko kwita ku menyo y'abana ni byiza kuko bibarinda indwara.

Umusore wita ku menyo ye afite ubwanwa kandi yita ku menyo akoresheje uburyo bwo gukuramo imyanda hagati y'amenyo yifashishije agashashara bituma imyanda iri hagati y'amenyo ivamo ku buryo idashobora gute infegisiyo.

Inzu ifite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma. Izi nzu ziba zihariye, kandi ziba zisa neza, zifite amatara atuma ahantu habona, ndetse hinjiramo n'urumuri.

Umuntu uri kwita ku menyo ye, kuyitaho bituma ahora asa neza, ubundi amenyo aba agomba gusa umweru, ubwo rero tuyitaho mu buryo butandukanye, ushobora gukoresha uburyo nk'ubwo bwo gukoresha umushashara ugakuramo imyanda iba yaheze hagati y'amenyo.

Mbere yo kujya mu kazi mu gitondo tubyutse turabanza tugasukura amenyo yacu twifashishije uburoso n'umuti wabugenewe usukura amenyo, ibyo bigatuma amenyo yacu tuyarinda ifegisiyo, kwangirika ndetse no mu gihe dusetse amenyo yacu akagaragara neza.

Umuganga ufasha umupapa gukora siporo zimufasha kunanura imitsi y'umubiri, ndetse no kuba ari fiti, ibi bikaba byatuma hari indwara zimwe na zimwe acyira mu buryo bworoshye, abaganga badukorera siporo baba bazi neza ko ziradufasha.

Abageze mu zabukuru bafata imiti, hari igihe biba ngombwa ko abantu bakuze bagira imiti banywa bitewe n'indwara bafite, ubwo rero iyo miti bagomba kuyinywera ku gihe kandi bakoresheje urugero nk'amazi ndetse n'ikindi kintu cyabugenewe.

Umubyeyi n'umwana bakina basikete, bifashishije umupira wabugenewe wo gukina baskete, bambaye imyenda yabugenewe mu gukora siporo, bashobora kuba bakorera siporo mu rugo ku kibuga biyubakiye mu gipangu cyabo.

Abageze mu za bukuru basheshe akanguhe, uko bigaragara bafite imvi bageze mu za bukuru, kubera ko abantu bashaje baba bafite indwara zitandukanye biba byiza iyo buri gihe bigenzuye kugira ngo barebe uko bahagaze.

Umuntu ugeze mu za bukuru uko bigaragara afite imvi ari gukora siporo zimwe zimufasha kunura imitsi mu mubiri kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, hari abaganga baba babimufasha mu gihe akora ibyo biko.

Umuntu ugeze muzabukuru ufata imiti. Abantu bakuze bakunda kuba bafite indwara zitandukanye. Ubwo rero ibyo bituma rimwe na rimwe baba banywa imiti itandukanye ibafasha kubaho mu buzima bwa buri munsi. Dushobora kunywesha imiti dukoresheje amazi ndetse n'ikirahure.

Ifoto y'umuryango ni nziza kuko ishobora gutuma mwibuka ibihe byiza mwanyuzemo, dushobora kuyifata twicaye muri salo ahantu hagaragara neza hari amatara kugira ngo tujye duhora tuyireba, dushobora kujya kuyihanaguza cyangwa natwe tukayihanaguriza.

Abantu bageze mu zabukuru nabo bakora siporo kuko siporo ntago ari iz'abato gusa, dushobora kuzikorera ku tuntu tw'udusahane twabugenewe, tudufasha gukora siporo, gukora siporo ntabwo ari ukwiruka, ushobora no kuba uri ahantu habugenewe ukajya ukora siporo wirambura, uninanura siporo zoroheje.

Kugera mu zabukuru ntibivuze ko tutagomba kuganira n'abakiri bato. Ababyeyi baganiriza abana babo basoma ibitabo, inkuru zitandukanye, bashobora gusoma igitabo bari kunywa ka cyayi kandi birashimisha.

Umusaza ugeze mu zabukuru aritabwaho n'umuganga amuha imiti yo kunywa mu gihe cyanyacyo. Abaganga babitojwe baba bafite ubumenyi mu kwita ku bantu bageze mu zabukuru kandi baba bafite n'imyenda yabugenewe bakoresha.

Umusaza uri kwitabwaho, yozwa, akorerwa isuku y'umubiri. Asheshe akanguhe, arashaje kubera ko hari ibintu ataba abasha kwikorera. Hari igihe biba ngombwa ko hagira umuntu umufasha gukora utwo tuntu ataba abasha kwikorera.

Umuganga wita ku musaza ugeze mu za bukuru abaganga batwitaho bakoresheje ibikoresho bitandukanye nk'igipima uko umutima wacu utera . Ndetse n'uko amaraso atembera mu mubiri wacu abaganga baba barabyize kandi bakora ako kazi bambaye imyenda y'akazi.

Umuntu ugeze mu za bukuru yita ku buzima bwe ajya kure ya muganga kugira ngo amufashe amusuzume arebe nimba nta bibazo by'umubiri ufite, abaganga na bo baba biteguye kugufasha bifashishije ibikoresho bitandukanye. Abaganga baba bambaye imyenda yabugenewe kandi bakorera ahantu hasa neza.

Kwita ku bageze mu zabukuru tukabasura, tukabakorera imirimo imwe n'imwe yo mu rugo, tukabatekera, tukabogereza ibyombo, bituma bumva bishimye bigatuma bashobora kubaho igihe kirekire bakarama.

Iyo twita ku mubiri dukora siporo, bituma imitsi igororoka ndetse tukumva dufite n'intege, ibyo bituma dushobora kurama tukamara igihe kirekire kandi bituma tunatekereza neza tukumva tunaruhutse.

Umupapa ugeze mu za bukuru yitabwaho n'umuganga ubifitemo ubushobozi ndetse wanabyize neza, abageze mu zabukuru nabo bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo barebe amakuru aba ari agezweho.

Gukora siporo ngororamubiri zituma umuntu yita ku umubiri we kandi imikaya ikarambuka. Ibyo bituma yumva afite intege kandi yumva akomeye. Abasaza bakora izo siporo bituma bamara igihe kinini kandi bakarama.

Abasaza babiri ariko umwe aruta mugenzi we barimo baratembera baganira bakora aga siporo kugira ngo ubuzima bukomeze, baba batembera ahantu hari ibiti hari akayaga keza.

Umuganga wita ku mukecuru ugeze mu zabukuru, biba bikeneye ko babitaho kubera ko bata bazi akenshi imiti bagomba kunywa, bisaba umuntu ubizi akabagenera iyo miti, bagomba kunywa, abaganga baba barabyigiye bababifitiye ububasha.

Umuganga wita k'ubumuntu ugeze mu zabukuru, ni byiza ko abantu bageze mu zabukuru bitabwaho kugira ngo batigunga, batumva ko abantu babatereranye, bashobora gufashwa n'abaganga gukora siporo zimwe na zimwe z'umubiri zoroheje.

Umuganga wita ku muntu ugeze mu zabukuru, amufasha kumuha imiti ku gihe ndetse akamuha n'umubare wuzuye w'imiti agomba kunywa, muganga aba yarabyize kandi abifitiye ubushobozi.

Kubera ko abantu bageze mu zabukuru nta ntege baba bafite, biba ngombwa ko bashyirwa ahantu heza hafite isuku, kandi abantu bakiri bato bakaza kubitaho babafasha kugenda, gufura ndetse n'ibindi.

Umugabo n'umugore bitanaho, iyo umwe ageze mu zabukuru undi amwitaho, ibyo bigatuma bose bahora bishimye, bigatuma ugeze mu zabukuru yumva atari wenyine ndetse no mu gihe arwaye akamwitaho.

Umuryango wishimye wicaye uganira abantu baganira bakora uturimo dutandukanye hari abari kwita ku bana ndetse n'uri kuboha igitebo bashobora kuganira ahantu hatandukanye nko hanze y'urugo cyangwa muri pasiparumu.

Umupapa ukinisha umwana we, gukinisha abana biba ari byiza, umwana ashobora kuba ari inzobe cyangwa igikara iyo umwana akina na se bituma yumva yishimye kandi akaba yisanzuye.

Gukora siporo ni kimwe mu bintu byiza bituma umuntu yumva akomeye, dushobora gukora siporo turi kumwe n'abandi bantu mu gihe cy'amanywa kandi tukazikora duterura ibintu biremereye cyangwa twiruka.

Kwita ku mubiri ni kimwe mu bintu bituma umuntu abaho neza. N'abantu bakuze bita ku mubiri wabo, bakambara neza, bakarya neza, bagafata imbuto n'iz'ibindi biryo by'intungamubiri. Ibyo bigatuma bamara igihe kirekire, bakarama.

Umuganga wita ku musaza ugeze mu zabukuru. Kwita ku bantu bageze mu zabukuru bituma bumva bishimye kandi batari bonyine. Abaganga baba bambaye imyenda yabugenewe ibaranga kandi baba bafite na baji z'akazi.

Gukina dame ni imwe mu mikino yifashishwa mu gihe umuntu ashaka kuruhura ubwonko, umuntu ashobora gukina dame muri telefone cyangwa biri fiziko akinana n'undi muntu.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru bishimye, uri kubona ko bashaje kubera ko bazanye imiyinkanyari ndetse bafite n'imvi z'abantu bageze mu zabukuru, bakunda kuba biyambariye ya makoti y'abasaza ba kera.

Abantu bageze mu za bukuru, nubwo bageze mu zabukuru ariko biyitaho, bakaywa amazi, bakaryama ahantu heza kandi bagafatira ibyo kurya ku gihe ndetse bakanita.

Umuntu ugeze mu za bukuru ufashwa kunanura imitsi ye afashwa n'umuganga uzobereyemo umwerekera uburyo abikora muganga ashobora kuba umugore cyangwa akaba umugabo bitewe n'uwo muntu ugeze mu zabukuru yahisemo.

Umuganga ari kwita ku mupapa ugeze mu zabukuru, ari kumwitaho ahantu hasa neza hafite ifoto nziza kandi hagaragara neza, mu nzu yabakishije amatafari ifite amadirishya.

Abaganga bafasha abageze mu zabukuru kurambura imitsi gukora udusiporo tworoheje tw'abantu bakuru kugirango ngo imitsi yabo irambuke aba baganga babitaho bashobora kuba ari abaganga bishyurwa cyangwa ari abaganga bakorera leta.

Abageze mu zabukuru bitanaho, banywa imiti bifashishije uburyo muganga yababwiye bagomba kuyinywa, bayinywesha amazi kandi baba bafite ibipimo bagomba kunywa by'iyo miti buri munsi.

Abantu barimo barakora siporo bifashishije uburyo bwo kuyikorera hanze biruka mu muhanda bakora siporo bakuze, abana, kandi bambaye imyenda ya siporo yabugenewe, inkweto za siporo n'amapantaro.

Umuntu ugeze mu zabukuru ari kumwe n'umwana we baganira amufasha gukata utuntu, gutunganya ibyo kurya cyangwa akaji ko kunywa, baganira baseka. Twifashisha ibintu bitandukanye mu gihe turi gutegura ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, igisorori ndetse n'icyuma.

Itsinda ry'abantu bashyikiriza ibikoresho bimwe na bimwe by'abantu bafite ubumuga. Urugero nk'utugare two kugendamo imbago ku muntu ufite ubumuga bw'amaguru, ndetse na tuwarete yicarwaho kugira ngo abantu bajye babona uko bayikoresha nk'umuntu ufite ubumuga.

Kwiyitaho nubwo umuntu yaba ashaje bituma akomeza kugira intege z'umubiri, umuntu ashobora kuzana uruhara cyangwa ugasaza agifite imisatsi, mu kwiyitaho arya ibiryo bitandukanye harimo ibirayi ndetse n'imboga kandi akagira n'icyo kunywa arenzaho.

Itsinda ry'abantu batandukanye ba mama abagabo bari kwishimira kuba abagore barahawe ubuyobozi bakoreye inama ahantu hatandukanye muri sale kandi bafite icyapa kiranga ibyo barimo inyuma ye.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende. Ni indwara yandura binyuze mu kuba abantu bakoranaho. Hari uburyo bwinshi bwo kwiyirinda, kwambara agapfukawa ndetse no kwirinda gukora ku bintu bitandukanye no kugenda dusuhuzanya abantu bataka.

Mu gihe cya kovide abantu bamenyeshejwe uburyo bwinshi bwo kwirinda kovide ariko mu buryo bw'ingenzi bwaje hajemo uburyo bwo kwikingiza ubwo rero abantu bose bajyaga kwikingiza bambaye udupfukamunwa nk'uko itegeko ryari rimeze.

Ihuriro ry'abantu bitabiriye inama y'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, mu kujya inama ku bintu byakorwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza, inama yitabiriwe n'abantu batandukanye abagabo n'abagore.

Ikigo gifasha abantu barwaye kanseri mu rwanda kanseri ni indwara ishobora guterwa n'ibintu bitandukanye kandi umuntu ashobora kuyirwara ku rugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri kanseri iyo yitaweho neza irakira.

Itsinda ry'urubyiruko rw'igitsina gore rwitabiriye inama z'uko bakwita ku buzima bwabo, kubera ko bakunda no kugira ibibazo byinshi bitandukanye n'ibyo abahungu bahura na byo.

Abaganga bita ku baturage bo mu cyaro, bareba uko amenyo yabo ameze bakanabavura, abaganga baba bambaye neza imyenda y'akazi, bikwije bambaye udupfukamunwa kugira ngo hatagira indwara banduriramo.

Uburwayi bwo ku mubiri buzana ubuheri, bushobora guterwa n'ibintu bitandukanye, kuba imibu yakuriye cyangwa kuba hari inzoka urwaye, urugero nk'amibe, ibyo rero biba ngombwa iyo tugiye kwa muganga kugira ngo twihuse.

Ihuriro ry'abayobozi, ryabereye i kigali kuwa makumyabiri na bibiri na makumyabiri na kane ogutoba, ryo kurwanya indwara ya mabaga, yari yadutse. Iyo virusi yari itangiye gukwirakwira, ariko hakozwe inama nyinshi zo kwirinda iyo virusi.

Inama nyinshi zihuza ibihugu bya Afurika haba harimo abantu batandukanye, haba abirabura ndetse n'abazungu kugira ngo baganire ku bintu bimwe na bimwe ndetse n'indwara zimwe na zimwe zishobora kwirindwa n'uburyo zakirindwa.

Abaganga bita ku barwayi kugira ngo barebe uko bamerewe kandi babashe kubakurikirana, kugira ngo umuganga amenye imiti aha umurwayi ni uko aba yamukurikiranye, ni kimwe mu bintu by'ingenzi abaganga bitaho.

Umuganga umaze kubyaza umubyeyi umwana, biba byiza iyo umwana amaze kuvuka agahita yitabwaho ndetse agahabwa umubyeyi we, bituma amwisanzuraho. Bashobora kuba ari inshuti n'umuganga cyangwa baramenyanye ahageze.

Amazu yo kwa muganga akoreshwa mu kwita ku bana bafite ibyangombwa byose ndetse n'icyapa kiranga ayo mazu aba afite ahantu hafite imbuga ikoze neza ndetse imodoka ishobora guparikaho kandi aba afite abantu bayagana ndetse n'amavase ateyeho indabo.

Abantu bakuru bajya mu mahugurwa bagahugurwa uko bakwita ku buzima ndetse bahugurirwa ahantu habugenewe hateguwe, hashobora kuba ari muri sale hasa neza kandi nabo bagomba kuba basa neza, bagaragara nk'abantu baje guhugurwa koko.

Amazu yo kwa muganga aba asa neza afite urumuri ruhagije, afite amakaro meza afite isuku, akenshi aba afite inzugi nini kubera ko hashobora gucamo abantu benshi kugira ngo babashe kubisikaniramo, kandi aba afite ibyapa biranga buri icyumba n'igikorerwamo.

Ibitanda byo kwa muganga biba bifite ibishushanyo, amataburo ndetse na farati sikirini abantu bareberaho mu gihe bashobora kuba barwariye kuri icyo gitanda biba bisa neza bifite urumuri ruhagije kandi bifite ibyangombwa byose.

Umumama urwariye mu bitaro, ibitaro biba bisa neza bifite imashini zabugenewe, umuntu ashobora kuba arwaye indwara itandukanye biterwa n'indwara arwaye kugira ngo bamuhe imashini imufasha muri ubwo buvuzi.

Amavuriro bavuriramo abantu aba agaragara neza, rimwe na rimwe aba afite jaride yo kwicaramo abantu baganira, afite n'utuyira tw'abanyamaguru bashobora gucamo, haba hari amatara amurikira abantu nijoro.

Umuganga wita ku mwana ufite uburwayi bwo kurwara ijosi, yifashishije imashini zitandukanye kugira ngo abashe kumuvura, umuganga yambaye ibikoresho byifashishwa mu kuvura, agapfukamunwa, itaburiya.

Kwa muganga haba hari ibyumba bitandukanye by'abarwayi. Ibyo byumba biba bifite ibitanda byiza bikomeye kandi bishashe neza. Bikunda kuba bishasheho amashuka y'icyatsi kibisi. Kandi ibyumba bigabanywamo hakurikijwe uko abantu bangana. Hari igihe babigabanya bakoresheje ibitambaro.

Inzu z'ubuvuzi ziba zikoze neza zifite isuku, ziba zifite abantu bazikorera isuku bambaye imyenda yabugenewe kandi ziba zifite ahantu ho gushyira imyanda mu gihe abantu bakeneye aho gushyira imyanda, abaganga bakoramo baba bambaye nabo imyenda yabugenewe udupfukamunwa amatoririya y'umweru cyangwa ubururu.

Aho abaganga bakorera operasiyo cyangwa aho umurwayi urebye cyane agomba kuba ari, haba hagomba kuba hafite urumuri ruhagije, hasa neza hateyemo imirangi, hari ibitanda, kandi hari n'imashini zabugenewe.

Inzu z'ubuvuzi aho bakorera ama operasiyo yo kubaga abantu haba hari ibikoresho byose byabugenewe, igitanda cyabugenewe kigezweho, ndetse n'amamashini yabugenewe n'amafati sikirini bareberaho ahantu batabasha kureba bakoresheje ka...

Ibitaro byo kwa muganga birimo ibitanda bitandukanye, ibyo bitanda biba bikoze mu byuma ndetse bitandukanywa n'amarido akabibera inkuta, biba bifite urumuri ruhagije ndetse biba binashashemo amakaro.

Jaride nziza ifite isuku ifite indabo kandi n'ibiti byiza by'imikindo, inzu zo kwa muganga ziba zifite amajaride ku buryo ziba zigaragara neza, kandi zuzuye afite parikingi yakira imodoka zishoboka.

Farumase, ni inzu ziba zirimo imiti y'ubwoko butandukanye, haba harimo umuganga wabyize neza uzi kuvura abantu kandi akumva ikibazo bafite, haba harimo imashini imufasha kubara ibyo yakoresheje ndetse n'ibyinjiye.

Imashini zifashishwa mu buvuzi, kugira ngo operasiyo yo kuvura igende neza, biba ngombwa ko haba imashini z'ikoranabuhanga ndetse zigezweho, kugira barebe neza babyitonze, indwara umurwayi afite.

Ibyumba byo kwa muganga aho abarwayi barwarira, biba bifite isuku kandi biba bifite n'abakozi babikorera isuku. Aba bakozi baba bambaye imyenda yo kwa muganga kugira ngo ubashe kubatandukanya n'abandi bantu, urugero nk'abarwayi.

Mu bitaro ahakorerwa operasiyo zitandukanye haba hateguye neza, hari ibitambaro byabugenewe, amasikirini abaganga bareberaho ahantu batabasha kurebesha ijisho, bakoresheje kamera.

Inzu zifashishwa mu buvuzi ziba zisa neza zifite isuku, zifite inzugi zigezweho, zifite amakaro agezweho, parafo nziza kandi ziba zifite urumuri ruhagije, ku buryo ubasha kureba imbere yawe cyane.

Inzu z'ibitaro, ziba zubatse neza zifite isuku ndetse ziba zifite bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga nk'ibizana akayaga ndetse n'intebe nziza zo kwicaramo.

Umuganga wita ku mukobwa urwaye . Ni byiza ko abaganga bagenzura bakanafasha abarwayi, bifashishije uburyo butandukanye nko kubatera serumu, ndetse n'ubundi buryo.

Umuganga wita ku mwana w'uruhinja wavutse iyo bamaze kumubyaza bamushyira ahantu habugenewe yaba atamaze igihe bakamushyira muri corovensi. Abaganga babanza kumwitaho nyuma yo kumuha mama we wamubyaye baba bafite imashini zabugenewe bifashisha.

Urujya n' uza rw'abantu batandukanye abasaza, abagabo bambaye imyambaro itandukanye, begereye ivuriro rya kirinike ryifashishwa mu guha abantu serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Ibitanda biba byarateguriwe abarwayi, kwa muganga haba hari ibitanda bitandukanye abarwayi bashobora kujyaho mu gihe bahawe icyo bita ibitaro, kugira ngo bakurikiranywe n'abaganga mu buryo bworoshye bitabagoye.

Iseta, icyumba bakoreramo operasiyo babagiramo umuntu, ashobora kuba agiye kubyara cyangwa afite ubundi burwayi, kiba gifite ibyangombwa byose igitanda, amatara yabugenewe akoreshwa, ndetse n'imashini.

Umuganga wita ku mwana ukiri muto, abana bakiri bato bashobora kugira indwara zitandukanye, ubwo rero ni byiza ko bajyanwa kwa muganga cyangwa bakajyayo kugira ngo batesitinge uko ubuzima bwabo buhagaze, uko amaraso agenda mubiri ndetse n'uko umutima wabo ukora, tuba dufite abaganga b'inzobere badufasha.

Inzu z'ubuvuzi cyangwa z'amavuriro n’inzu ziba zubatse neza zikomeye zifite amatiyo avana amazi ku bisenge akayajyana ahantu habugenewe ziba zifite inzira y'abanyamaguru yakozwe neza yabugenewe kandi ibyo ntibizibuza kugira amajeride ndetse n'indabo.

Ibyicundo abana bicundaho bakunda kubyita ko baba bari kurya umunyenga ariko nink'aho baba bari gukora siporo. Bikunda kuba ahantu hatandukanye kno kwa muganga, ku mashuri kugira ngo bijye bifashe abana gukora siporo no kwirangaza, biba biri ahantu muma muri majaride hateye ibyatsi.

Amafirigo menshi ari ku murongo yifashishwa mu kuba habikwa imiti igihe kirekire, aya mafirigo akoresha umuriro mwinshi kandi aba ari ahantu hafite isuku kwa muganga.

Ibigo nderabuzima byorohereza abaturage mu kwita ku buzima bwabo mu buryo buboroheye. Biba bisa neza, byubatse neza kandi bifite n'umuriro ushobora kuba ukomoka ku izuba cyangwa ahandi akenshi biba bifite ubusitani bwiza cyane abantu bicaraho.

Inzu zo kwa muganga ziba zubatse mu buryo butandukanye bitewe n'aho izo nzu ziri. Usanga abantu benshi bazigana, baje gushaka serivisi zo kwivuza ibyo bigatuma bakomeza kugira ubuzima bwiza. Izo nzu zirangwa n'isuku.

Itsinda ry'abantu batandukanye abageze mu zabukuru, abato, ingimbi, n'abangavu ndetse bafite ibara ry'uruhu ritandukanye, ku bitaro bya Rwamagana bifite ishusho nziza.

Inzu z'ubuvuzi iyo uzitegereje uba ubona zikeye zigezweho kandi zisa neza, ziba zifite jaride igaragara neza iteyemo ibiti, kubera ko abantu benshi baza bazigana uhasanga urujya n'uruza rw'abantu.

Mayikorosikopi, kimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga kugira ngo harebe indwara umuntu arwaye. Mayikorosikopi iba ifite ibindi bikoresho byifashishwa muri iyo operasiyo kandi igakoreshwa n'umuntu uzi uko bayikoresha.

Umuganga wita ku mubyeyi ugiye kubyara. Ni byiza ko abaganga babitaho bakareba uko imitima yabo ikora ndetse niba nta kibazo cyatuma batabyara neza. Abaganga baba bafite ibikoresho bifashisha mu gihe bakora icyo gikorwa.

Amavuriro abateye amarangi y'umweru cyangwa andi mabara atandukanye, haba hariho ikintu kiyaranga nk'icyapa kandi aba afite inzira z'abanyamaguru n'aho imodoka zinyura.

Inzu zikorerwamo siporo ziba zifite ibintu bitandukanye, ibikoresho bimwe na bimwe bidufasha gukora siporo kandi ziba zifite ahinjira urumuri n'umuyaga, ziba zifite n'isaha kugirango ngo abantu bajye bamenya igihe bakora siporo.

Umubyeyi wibarutse umwana ni byiza ko akenshi afatana ifoto n'umu dogiteri wamumubyaje kugira ngo ajye ahora amwibuka yabyaye abazwe cyangwa mu buryo busanzwe abadogiteri n'ababyigiye ku buryo badufasha neza.

Mu bitaro haba hari imashini nyinshi abarwayi basuzumirwaho ,izo mashini ziba zarabugenewe kandi zifite n'aho abarwayi bicara ziba zigomba kuba ziri ahantu hasa neza hafite umwuka uhagije ndetse n'urumuri.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa muri operasiyo zo kubaga abantu ndetse no mu gihe bakorera abantu ubuvuzi. Harimo ibitanda byabugenewe biba biri kumwe n'imashini zabugenewe zifashishwa muri operasiyo iba igiye gukorwa.

Gukora siporo kubera ko ari ingirakamaro ni byiza ko haba hari ahantu ho gukora siporo, haba hafite imashini zitandukanye haba izo kwiruka, guterura, gukurura ndetse no gusunika.

Amavuriro usanga ari manini akenshi abafite na parikingi y'ibinyabiziga nini hashobora kujyamo ibinyabiziga byinshi kandi bitandukanye ibinini n'ibito haba hari umusekirite ufasha abantu guparika ibyo binyabiziga.

Ibitanda byo kwa muganga biba biri mu byumba byabugewe kandi byiza bifite isuku, biba bifite amafurati sikirini abantu bareberaho mu gihe baryamye ku bitanda, kandi bifite n'urumuri ruhagije ku buryo haba habona.

Inyubako zo kwa muganga, usanga buri gihe hari abantu baba baje kwaka serivisi zo kwivuza, n'ubwo izo nyubako ziba zifite abantu benshi, ariko ziba zifite isuku, zifite indabyo, zigaragara neza, uba ubona bisa neza.

Umuntu urwariye mu bitaro byo kwa muganga, haba harimo ibyumba byagenewe abarwayi ndetse n'imashini zagenewe gufasha abarwayi barembye cyane, ndetse kandi haba hari na bomboni zifasha abantu guhumeka mu gihe batabasha guhumeka neza.

Zimwe mu mashini ziyikoresha muri operasiyo mu gihe ikorwa kwa muganga, haba hari igitanda cyabugenewe cy'ikoranabuhanga gifasha abaganga gukora oprasiyo mu buryo bworoshye, haba harimo amatara amurika cyane ku buryo haba harimo urumuri ruhagije.

Ababyeyi bagiye kubyara bagira inzu yabo yitwa materinete, iyo nzu iba isa neza, ifite isuku kandi n'abantu bayikoramo baba basa neza, bafite isuku, bagaragara neza, ibyo bigatuma ababyeyi n'abana babo babyarira ahantu hafite isuku.

Inzu isa neza, ifite resebusiyo nziza kandi ifite n'amatara agezweho, ifite aho ihuriye n'ubuvuzi, igaragara neza, isashemo amakaro kandi rwose ifite n'intebe nziza umuntu yakwicaramo ari kuruhuka.

Amavuriro yigenga aba afite amazu bakoreramo yubatse neza, yubakishije ibikoresho nk'amatafari ahiye kandi afite imashini zigabanya ubushyuhe. Aya mazu aba afite parikingi ibinyabiziga bishobora guparikamo ndetse n'ibyapa biyaranga.

Inzu zo kwa muganga zifite ibyapa biziranga ndetse n'ibyo zikora, izo nzu ziba zikoze neza kandi zihenze, ziba zifite parikingi ibasha kwakira imodoka zirenze imwe, kandi n'abantu baza bazigana bakabona utuyira two kunyuramo.

Icyapa kiranga farumasi, ni zimwe mu nzu zifashishwa mu kuba abantu bagura imiti mu buryo buboroheye bitabaye ngombwa ko bajya kwa muganga. Zikoramo abaganga babyize kandi babiherewe uburenganzira.

Inyubako yo kwa muganga, ziba zigaragara neza kandi zubatse ku buryo bukomeye. Ziba zifite jaride nziza abantu bakwifotorezaho, kandi ziba zifite utuyira tw'abanyamaguru batemberamo baca impande y'inyubako.

Umuganga wita ku babyeyi babiri, umwe aracyari muto undi ageze mu za bukuru. Ari kubafasha kumenya uburyo umutima wabo ukoramo. Uyu muganga abikora nk'akazi; yambaye imyenda y'akazi urugero nka ga ndetse n'isaha imufasha kumenya igihe akazi gakorerwa.

Inyubako z'ubuvuzi, zisigaye zubakwa mu buryo bugezweho kandi zikaba zigaragara neza, ziba zifite ubusitani buteyemo ibyatsi, indabo, ibyo bigatuma inyubako z'ubuvuzi zigira ishusho nziza kandi bikagaragara ko ubuvuzi butera imbere.

Risaci senta, inzu yifashishwa mu gu gukora ubushakashatsi ku miti itandukanye yifashishwa mu buvuzi inzu inzu ziba zirimo ibikoresho bitandukanye ndetse na sale y'aho abantu bashobora kwicara bakaganira.

Amavuriro agomba kuba asa neza agaragara neza afite view nziza afite ubusitani kandi yubakishijwe amabuye akomeye aba afite utuyira tw'abanyamaguru aho abantu bashobora kugendagendamo bitegereza ubusitani.

Umwana ufasha umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda ugendera mu kagare gukora taransiporo agenda amusunika bagana ku ihema ahabereye ibirori ndetse afite n'umuntu waje kubakira ku muryango.

Inzu zifashishwa mu buvuzi ziba zisa neza kandi ziba zifite icyapa n'amagambo aranga ibyo izo nzu zikorerwamo. ziba zifite jaride nziza cyane kandi zubakiye inzira y'abanyamaguru bashobora kunyuramo mu gihe bagana iyo nzu.

Inyubako z'ubuvuzi ziba zisa neza, ziba zubakishijwe amatafari ahiye ndetse ziba zifite n'imbuga igaragara neza ishashemo amapave, ibyo bituma abantu bahakorera nabo baba basa neza bagaragara neza.

Itsinda ry'abantu bafasha ababyeyi bo kwa muganga, mu nzu y'ababyeyi materinete, izi nzu ziba zisa neza zifite isuku, kubera ko ababyeyi babyaye niho bashyirwa, ziba zubatse ku buryo butandukanye bitewe n'imiterere yaho.

Kingi fayisari hosipito ni ibitaro binini cyane bigizwe n'amagorofa kandi bigira abantu babigana benshi. Kubera iyo mpamvu hari urujya n'uruza rw'abantu baba baje kwivuza baba baje kureba abantu babo barwaye, ibyo bigatuma rero hahora abantu benshi kandi ibi bitaro bigira isuku kubera ko nibyo bitaro byakira abantu benshi.

Inzu z'ubuvuzi ziba zifite view nziza zubatse neza, ziba zifite ahantu harambuye waparika imodoka ndetse naho abantu bisanzurira, impande zaho ugenda uhasanga utujaride twiza umuntu yakwifotore...

Icyapa kiranga imirimo ikorerwa mu kigo ibyo bigatuma abantu bamenya imirimo ikorerwa muri icyo kigo ndetse n'uburyo bajyamo kwakamo serivisi, ibyo bikaba bishobora kuyobora abantu kandi bigatuma babona serivisi nziza mu gihe bagiye kwakamo serivisi kandi bakamenya serivisi bitabagoye.

Abaganga bifashishwa mu kureba uko imiti iri gutangwa ndetse no kubara imiti yakoreshejwe ,baba bambaye ibikoresho byabugenewe udupfukamunwa turindamusatsi ndetse n'amataburiya yabugenewe.

Inzu abaganga bakoreramo operasiyo cyangwa igikorwa cyo kubaga isa neza, zifite amatara yabugenewe kandi zifite n'ibyuma byabugenewe ndetse n'imashini, ziba zifite ibitanda abantu bari bukore operasiyo bari buryameho.

Kwa muganga bagira imashini zitandukanye zipima indwara zitandukanye, hari imashini bita sikaneri ikaba yifashishwa mu gupima no gufotora umuntu umubiri wose.

Inzu zo kwa muganga ziba zifite ibyumba bikorerwamo ama operasiyo. Ibyo byumba biba bifite ikintu cyose kizakenerwa. Harimo amamashini, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho

Amazu yo kwa muganga abafite ibyumba byagenewe abantu bafite indwara zihariye bagomba kuba barimo, ibyo byumba biba bifite urumuri ruhagije, bifite intebe zo kwicaramo kandi biba bisa neza cyane kandi bikaba bifite n'aho umuntu akarabira mu buryo bworoshye.

Inzu yo kwa muganga iba ifite aho umuganga yicara asuzuma ko wujuje ibyangombwa ndetse wanishyuye amafaranga yo kwivuza hanyuma hakaba hari n'igitanda agusuzumiraho mu gihe bibaye ngombwa, intebe uzicaraho iyo udafite uburwayi buragusaba kuryama ku gitanda.

Pharmacy ni inzu ziba ziri private, abantu bacuruzamo imiti y'ubwoko butandukanye, ku buryo umuntu wese ushakamo umuti ashobora kujya kuwugura. Ziba zikoramo abaganga babifitiye uburenganzira, babiherewe n'ubushobozi.

Hari ibigo by'ubuvuzi biba bishinzwe indwara zitandukanye, kugira ngo abantu barwaye izo ndwara zikomeye bajye baza bitabweho ku buryo bwihariye, ibyo bituma indwara ibasha gukurikiranwa neza.

Mu karere ka Huye, icyapa cyiranga aho ivuriro riri ndetse na metero zirimo kugira ngo uhagere, aya mavuriro yubatse neza kandi afite jaride, kandi afite rwose n'urusekabuye ku buryo umuntu aciyemo ibyondo bitabasha kujya ku nkweto.

Abaganga muri laboratwari bakora test y'imiti bari bwifashishe mu kuvura hari ibikoresho byabugenewe mu gihe hakorwa iyo miti yifashishwa mu buvuzi abaganga bambaye ibikoresho by'ubwirinzi ndetse n'imyenda y'akazi.

Inzu zo kwa muganga zifashishwa mu gukora operasiyo zitandukanye harimo kubaga ndetse n'ibindi zifite ibikoresho bitandukanye uburiri bwo kuryamaho ndetse n'intebe umuganga ashobora kwicaraho ziba zifite imashini ndetse n'amatara amurika cyane.

Umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda ashobora gukoresha akagare kugira ngo abashe gukora taransiporo, iyo agiye kwa muganga ahasanga amazu meza kandi akahasanga inzira zimworohereza gukoresha akagare ke kamufasha muri taransiporo.

Abaganga bagenzura imashini zifashishwa mu kuvura abantu no gukora operasiyo zitandukanye ko zikora neza. Ni byiza ko bagomba kuzigenzura kugira ngo zitabateza ibibazo cyangwa zikabatenguha mu gihe bari gukora operasiyo. Ikintu kiranga abaganga benshi, baba bambaye amataburiya y'umweru n'amabaje.

Materinete aho ababyeyi babyarira. Iyi nzu iba isa neza kandi n'abayikoramo baba basa neza kugira ngo ababyeyi baba babyaye. Abantu bakora muri iyo nzu baba bambaye imyenda yabugenewe agapfukawa, itaburiya n'inkweto zabugenewe.

Umukobwa unywa amazi nyuma yo gukora siporo amazi dushobora kunywera mu kintu gitandukanye haba muri gurude ndetse n'igikombe ariko iyo tujya muri siporo tuyatwara muri burude kugira bitworohere mugihe dukora siporo ni byiza ko tuba dufite isumo yo kwihanaguza ibyombo.

Umuntu uba ukora siporo bisaba kuba ubikunda kandi ukaba ugira umuhate, umuntu ashobora gukora siporo zitandukanye kandi akaba yambaye imyenda ya siporo, urugero nk'imyenda n'inkweto byifashishwa mu gukora siporo bimworohereza.

Gukora siporo bituma ingingo z'umubiri zikora neza kandi imitsi ikagororoka, gukora siporo ntabwo bisaba ko umuntu ari kwiruka gusa ushobora no kwicara hasi ugakora siporo ukagorora imitsi y'ingingo zawe.

Rimwe na rimwe iyo turi gukora siporo hari igihe tugira impanuka tukaba twavunika cyangwa imitsi ikikanga, dushobora gukoresha barafu kugirango tugende dusubiza imikaya y'umubiri ku murongo, barafu ishobora kuba iri mu kintu gisa ubururu ndetse n'irindi bara.

Umukobwa ukora siporo yifashishije umuziki yambara kuteri kugira ngo bimurinde kuruha vuba kandi aba yambaye imyenda yabugenewe mugihe akora siporo. Kuba ufite amazi mugihe ukora siporo biba ari byiza kuko iyo uyakeneye unywaho.

Imiti, ibikoresho bitandukanye dushobora kwifashisha mu gihe turi kwivura cyangwa n'abaganga bifashisha mu gihe bari kuvura undi muntu, umukasi, ubutoroshi, serenge, ibinini ndetse na bogisi.

Imbangukiragutabara ni zimwe mu modoka zifashishwa mu gutwara abarwayi, zibavana ku bitaro zibajyana ku bindi bitaro byisumbuyeho, ziba zifite amatara atandukanye n'ay'izindi modoka, ziriruka cyane kandi zigira n'abashoferi bazi gutwara bafite egisiperiyanse, ziba zifite ibirango byazo byihariye.

Umusore ukora siporo afite tirisepusi na bisebusi kandi ukora siporo bisaba kuba ufite isaha kugirango urebe igihe umara ukora siporo kugirango ujye ucyubahiriza utuzajya ukirenza bidufasha gukora managimenti y'igihe.

Ibice bimwe na bimwe bya mayikorosikopi, ni icyuma cyigezweho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa kwa muganga mu kureba indwara umuntu arwaye, kandi kikabikora mu buryo bwihuse budatinze.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga cyangwa mu gihe umuntu akomeretse no mu gihe afite injarizi icyambere harimo bosi itwarwamo ibyo bikoresho urugero nk'umukasi wifashishwa kuba wakata ikintu ndetse na bande.

Gukora siporo bidufasha kurambuka, tukagira intege, dukora siporo twambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto zabugenewe kandi tuba dufite isaha idufasha kumenya igihe tumara dukora siporo.

Imiti abantu bakoresha bivura bitewe n'icyo umuntu yarwaye, ushobora gukoresha bande kugirango wivure imvune wenda mugihe wavunitse, ushobora gukoresha imiti yabugenewe yo kunywa mu mazi kugira ngo igufashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Mu nzu zo kwa muganga haba harimo ibyumba byihariye bakoreramo tesite z'umubiri ibyo byumba biba bifite imashini zabugenewe zikora izo tesite z'umubiri ari byo bita scanner.

Umusore wambaye agapira kameze nk'isengeri ari muri siporo. Arafata amazi mu gihe asoje siporo kugira ngo arekipere amazi umubiri uba watakaje. Dushobora kunywa amazi tuyafite mu kintu icyo ari cyo cyose: urugero nk'icupa, igikombe ndetse n'ikindi.

Abaganga bagira ibikoresho, imiti itandukanye bakoresha mu buvuzi ariko nk'iyo bagiye ahantu, hari amabogisi meza y'umutuku yifashishwa mu gutwara iyo miti kugira ngo ayirinde kunyanyagira ndetse no kwangirika.

kugira ngo tugire ubuzima bwiza dukoresha uburyo butandukanye. Hari ugukora siporo tugapima uko tureshya, tukaba tuzi uburebure bwacu, ikindi kandi tukarya imbuto kugira ngo tugire intungamubiri.

Kumenya uko umubiri wawe uhagaze, ujya kwa muganga bakabigukorera, biba bifite icyumba cyabugenewe gifite amashuka meza, umuganga ubikora aba yambaye imyenda yabugenewe urugero nka ga, imyenda y'abaforomo n'agapfukamunwa, iki cyumba kiba gifite imashini zabugenewe.

Muganga ari kwita ku muntu ufite ikibazo cyo kuba yaravunitse mu ivi, ni byiza ko abaganga batwitaho kandi bakoresheje imiti yabugenewe kandi nabo baba bafite ibikoresho ndetse n'imyambaro yabugenewe bifashisha mu gihe bari kudufasha.

Uruti rw'umugongo mu gihe umuntu yumva ababara mu ruti rw'umugongo ashobora kujya kwa muganga bakamukora sikaneri bakareba ikibazo afite hagati y'ingingo z'uruti rw'umugongo ndetse n'ifoto iyo abishaka bakayimuha.

Imbago zifashishwa mu gihe umuntu afite imvune, zishobora kuba zikoze mu cyuma cyangwa mu giti, zishobora kugura ibiciro bitandukanye bitewe n'aho zihuriye cyangwa n'icyo zikozwemo. Zifashishwa mu gihe umuntu nta nsimburangingo afite cyangwa nta rugingo rw'umubiri afite.

Siporo zituma umuntu agira ubuzima bwiza, dushobora gukora siporo dukina imikino itandukanye nka rugubi, rugubi ni umukino usaba imbaraga kandi abantu bawukina baba bambaye ingofero zabugenewe.

Kunywa amazi ni byiza, kubera ko iyo tumaze gukora siporo cyangwa tuvuye ahantu kure turi ku rugendo umubiri ukoresha amazi menshi ndetse n'igihe tutakoze ibyo bintu, ni byiza ko tunywa amazi kandi tukagira isaha nziza yo kunyweraho amazi.

Umuntu ukora siporo, dukora siporo mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo twahisemo bwo kuzikoramo, bikaba byiza kandi bigatuma umuntu akomera azana inyama nini tirisebusi na bisebusi, dukora siporo twambaye imyenda yabugenewe dushobora kuzikora ahantu hatandukanye mu cyumba cyacu muri saro cyangwa muri.

Ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa mu kuvura ndetse no gukora igikorwa cyo kuvura urugero nka ga, zambarwa mu gihe umuntu agiye kubaga ndetse no gukora ibindi bintu bishobora kumwangiza intoki, ndetse na bande zifashishwa mu kuba zazirika ahantu umuntu yavunitse.

Kujyana umwana kwa muganga ni byiza kubera ko bituma tumenya uko ahagaze, tukamenya indwara ashobora kuba afite. Abaganga na bo baba biteguye kumupima bakoresheje imashini zabugenewe, baba bambaye imyambaro yabugenewe y'akazi urugero nk'udupfukamunwa.

Amazi ni kimwe mu bintu bikenerwa cyane mu gihe abantu bakora imirimo itandukanye ndetse ni na meza ku mubiri kuko amazi atuma impyiko zacu zikora neza, zikayungurura amaraso neza cyane.

Zimwe mu mbuto ndetse n'ibirungo dushobora kwifashisha mu gihe dushaka kubirya kandi biri intungamubiri, urugero nka pome pavuro, avoka ndetse na tungurusumu n'ishu.

Umusore ukora siporo, mu gihe cya nimugoroba, kubera ko hariho izuba atakaza amazi menshi, akora siporo mu buryo butandukanye bwo kurambura umubiri, kandi aba yambaye imyenda ituma, agabanyirizwa ubushyuhe.

Bimwe mu bintu byifashishwa mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza amenye uko ahagaze, mu kumenya uko ahagaze ni nko kumenya uburebure afite, nka metero irabimufasha guterura kugira ngo imitsi irambuke, agapine ndetse no kurya intungamubiri urugero: nka pome ndetse indimu no kunywa amazi.

kwita ku mubiri no gukora siporo bisaba ko tugomba gufata intungamubiri zitandukanye. Harimo amagi, y'imbuto, ibyo kurya n'ibintu byinshi. Kugira ngo bidufashe kurekipera imbaraga tuba twatakaje mu gihe turi gukora siporo, harimo ibinyampeke n'binyobwa ndetse n'amashu.

Umuntu wavunitse iyo byabaye grave bakoresha icyuma cyabugenewe kimufasha kugorora no gusubiza imitsi ndetse n'akaguru ke muri forume kari karimo, abaganga bamusura buri kanya bakagenzura ko amerewe neza.

Insimburangingo n'ibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu afite imvune, bimufasha gusubiza umubiri we ndetse n'amagufwa ye muri pozisiyo yari arimo. Izi ngingo zimufasha mu gusubiza muri pozisiyo, ziba zitandukanye bitewe n'igiciro cyayo.

Umugabo ukora siporo yifashishije agasambi kabugenewe ko gukora siporo, yambaye imyenda yabugenewe mu gukora siporo, ikabutura ndetse n'isengeri, gukora siporo biba byiza kubera ko bituma umuntu agororoka.

Itsinda ry'abaganga ba kuruwaruje bari gufasha umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye baba bambaye amajire cyangwa se imyenda igaragaza abo baribo urugero nk' imyenda iriho ikimenyetso cya kuruwaruje cyangwa amajire.

Umuntu ufite uburwayi bw'ukuguru wavunitse bikaba biba ngombwa ko bamuha ikintu kimufasha kuba ukuguru kwe kwagumye ndakurambuka gake gake, ibyo abifashwa n'abaganga babizobereyemo babikora aryamye ku gitanda cyabugeye.

Amazi yo kunywa ni meza ku mubiri, dushobora kuyanywa twifashishije ikirahure cyangwa ijage y'ikirahure, ibyo bituma tubona neza niba mu mazi nta mwanda urimo, ariko kunywa amazi atetse nibyo by'ingenzi.

Gukina umukino wa basket ni umwe mu mikino ituma abantu bishima kandi bakaba bagororoka ingingo z'imibiri bigatuma hari indwara zimwe na zimwe batandura kubera ko baba bakoze siporo. Ubwo rero uwo mukino ukundwa n'abana, abantu bakuru, n'abandi bantu batandukanye bashaje, n'abageze mu zabukuru.

Itsinda ry'abaganga bari guhugurwa na mugenzi wabo ku ikoranabuhanga, bafite amakayi barandika buri kintu cyose cyabafasha mu kunoza umurimo wabo bifashishije uburyo bwa vidiyo koru.

Burankare zitwarwa mu ntoki zidafite amapine, ziba zifite amabara atandukanye, urugero nk'iyi y'umuhondo zikunda gukoreshwa mu kibuga nk'igihe umukinnyi avunitse, ni zo bakoresha kugira ngo bamutware.

Gukora siporo z'umubiri ni kimwe mu bituma umuntu abasha kubaho neza akumva akomeye ari stable, dushobora gukora siporo ahantu hatandukanye, urugero muri salon twifashishije udusambi twabugenewe abantu bakoreraho siporo tuba twambaye n'imyenda yabugenewe mu gukora siporo.

Inzu zikorerwamo siporo keya jimu, ziba zifite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo bitewe na siporo umuntu ashaka gukora, inyinshi ntiziburamo utugare two kunyonga ndetse n'aho bakorera siporo zo kwiruka.

Kwita ku ngingo zimwe na zimwe z'umubiri, igihe twakoze siporo zikaba zavunika. Dushobora gukoresha barafu kugira ngo tugabanye ububabare mu mubiri. Ibyo bishobora gutuma aho twavunitse horoha kandi bikaduha agahenge.

Nkimwe mu bintu byifashishwa kugira ngo tugire ubuzima bwiza, hari ibiryo bifite intungamubiri nk'inyama, amagi ndetse n'ibinyampeke, hakaba imbuto zitandukanye, hakaba n'ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo.

Imwe mu mashini zikoreshwa kwa muganga imashini ipima uko umutima utera, mu gihe umuntu ari muzima ino imashini ibitera imibare mu gihe uwo muntu apfuye ashizemo umwuka imashini nayo irahagaze.

Umubyeyi n'umwana we, bari kwa muganga mu bitaro, aho abarwayi baba baryamye, mu gihe baba bakeneye kwitabwaho n'abaganga buri kanya, kugira ngo babonere ku gihe.

Zimwe muri siporo zituma umubiri wacu umera neza, tukagira ubuzima bwiza harimo na siporo zo kwitoza kurwana. Izo siporo zishobora kuba nziza nk'umuntu yitabara mu gihe abantu bamwatatse.

Umusore ukora siporo hifashishijwe uburyo bwo kujya muri jimu. Haba hari umutereyina uri kumufasha amwereka uko bakora siporo. Siporo ni nziza ku mubiri kuko zituma umuntu aba afite ubuzima bwiza.

Mu gihe dukora siporo umuntu ashobora kuzidukoresha akatunnura imitsi turi ahantu habugenewe nko mu cyumba cyo kwa muganga, hari abaganga ba bafite inshingano zo kunanura abantu imitsi bakoresheje ubuhanga kubera ko baba barabyize, ni byiza ko tubagana kugira badupfu...

Gukora siporo ni byiza ku mubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza, umuntu ashobora gukora siporo ari kumva umuziki, kuko bimufasha gukora siporo neza, ariko iyo umuntu amaze gukora siporo aba yatakaje amazi menshi, biba ngombwa ko yongera kunywa andi mazi menshi.

Gukora siporo zinanura umubiri, dushobora kuzikorera murugo cyangwa tukazikorera n'ahandi ariko hari udusambi twabugenewe dukoreramo izo siporo, kuzikora bituma twumva tumeze neza turi stable mu.

Umukobwa ukora siporo, urakora siporo mu buryo butandukanye kugira ngo winanure imitsi, gukora siporo ni byiza kuko bituma agira taye nziza, ushobora gukora siporo wifashisha imyenda yabugenewe, ikorohereza mu kwiruka no gukora izo siporo.

Kuribwa mu ivi bishobora guterwa no gukora siporo nyinshi cyangwa kuba umuntu yaguye, gukora siporo ni byiza kuko bituma tugira umubiri muzima ukomeye kandi bikaba byiza iyo dufite isaha kugira ngo dukoreshe igihe kimwe dukora siporo.

Ibikoresho bitandukanye twifashisha mu gukora siporo cyangwa mu gukina. Hari imikino itandukanye n'ibikoresho bikoreshwa muri iyo mikino bikaba bitandukanye. Hari umupira wa futuboro, basiketiboro, rugubi ndetse n'ingofero zagenewe gukina rugubi.

Umuganga ufasha umusore kuba yakora siporo zituma umubiri we umera neza, dukora siporo twifashishije ibintu bitandukanye nk'ibyo guterura ndetse no gutera pompaje. Ni byiza ko hafi yacu aba hari amazi urugero nka wota disipensa kugira ngo tuyanywe turangiza siporo.

Igikapu cyifashishwa mu gutwara imiti itandukanye nk'iyo abaganga bagiye mu buvuzi bwo hanze y'ibitaro hajyamo imiti itandukanye iserenge, bande ndetse n'ibipfuko.

Kwisukaho amazi ni kimwe mu bintu biranga abantu bakunda gukora siporo, mu igihe barimo barakora siporo bashobora kwisukaho amazi kugira ngo bagabanye ubushyuhe bw'umubiri. Mu gihe dukora siporo dushobora kuba twambaye isengeri se cyangwa ikabutura.

Hariho ingaruka nziza zo gukora siporo. Kugabanya puresha y'amaraso, kugabanya siteresi umuntu aba afite, kuba umuntu ari fiti, kandi zigafasha no muri dayigesheni sisitemu igogora ry'umubiri.

Iyo umuntu yakomeretse yifashisha igipfuko kugira ngo apfuke igikomere kitagomba kujyamo infection ibyo bituma igikomere gishobora gukira vuba aho kuba atari yagipfutse.

Gukora siporo mu buryo butandukanye, ushobora gukora siporo ahantu kuri tapi cyangwa ahandi hantu hanze, dushobora gukora siporo dusunika ibintu cyangwa tubiterura bitewe n'uburyo twahisemo gukora siporo. Siporo tuzikora twambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto.

Ibikoresho byifashishwa mu mikino itandukanye yo kugorora umubiri kugira ngo umubiri umere neza. Harimo iteramakofe., basiketebolo, futubolo, ndetse no kumva umuziki.

Gukora siporo bituma umuntu agira imbaraga, imika y'umubiri igakora, dukorera siporo ahantu hatandukanye, urugero nko muri sare cyangwa muri gimu, tuba twambaye imyenda yabugenewe, inkweto, ipantaro ndetse n'isengeri.

Iyo umuntu amaze gukora siporo, hari igihe ayikora ari ku zuba kandi iyo bigenze gutyo umuntu atakaza amazi menshi. Ubwo rero biba byiza iyo umaze gukora siporo ukongera ukanywa andi mazi menshi kugira ngo umubiri wongerare uwusubize amazi watakaje.

Umukobwa ukora siporo mu gihe cya nimugoroba ku izuba ryinshi, umuntu akora siporo yambaye imyenda yo gukora siporo ndetse n'isaha imufasha kumenya igihe akora siporo.

Gukora siporo ni byiza kuko bituma ingingo z'umubiri zikora neza. Dukora siporo mu masaha atandukanye twambaye imyenda ya siporo, urugero: inkweto, ikabutura ndetse n'umupira.

Imwe mu miti n'ibikoresho bishobora kwifashishwa mu gihe umuntu agize ikibazo cyangwa yakomeretse, harimo ibipfuko, imiti ishobora komora ibisebe kandi hakabamo n'indi miti umuntu ashobora kunywa mu gihe ari ngombwa.

Gukora siporo ngororamubiri ni byiza kuko bituma umuntu yumva akomeye kandi afite imbaraga, dushobora gukora siporo mu buryo butandukanye, dushobora kuzikora turi kwiruka, dushobora kuzikora turi guterura ibintu biturusha imbaraga kugira ngo dukomere.

Imbuto zitandukanye ndetse n'imidari. Imbuto zifashishwa mu kongera intungamubiri mu mubiri ndetse imidari ihabwa abantu bafashe cyangwa batwaye igikombe runaka. Ibinini na byo byifashishwa mu gihe umuntu arwaye ashaka kwivura.

Bimwe mu bintu bigira intungamubiri cyangwa bifasha umubiri gukora neza, harimo kurya imbuto urugero nka pome, amacunga, avokado no kunywa amazi, no gukora siporo duterura dukoresheje agapine bituma umubiri ukomera.

Kugira ngo umuntu amenye uko ahagaze ajya kwisuzumisha kwa muganga, barimo kureba uko amaguru yacu akora cyangwa kujya kuyarambuza, hari imashini zifashishwa zabugenewe kandi tugafashwa n'abaganga baba bambaye imyenda yabugenewe banabyize.

mw’isoko abantu barirema bazanamo ibintu bitandukanye amapera ndetse n'imiti iyo miti ishobora kuza ari gakondo cyangwa hari iyakozwe mu buryo bwihariye ishobora kuza mu macupa cyangwa mu bintu bya purasitiki.

Indabo ziterwa mu mavaze. Akenshi kubera ko abantu bakunda indabo kandi bakaba nta hantu bafite bazitera hari ubutaka ni ngombwa ko bazana ubutaka mu mavaze hanyuma bagashyiramo izi ndabo zigakura, bakazitereka ahantu habugenewe.

Ibininini bifite ibara ry'icyatsi kibisi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ibinini bishobora kubikwa mu buryo butandukanye, urugero nko mu kantu bakoze mu giti kabika neza ndetse n'izindi nzira.

Gukora umuti ushobora kudufasha mu koroherwa mu gihe tubarwaye giripe dushobora kubikora twifashishije tangawizeye, ibibabi by'indimu ndetse n'amazi tukabikorera mu gasorori gafite isuku ndetse tukavangisha ikiyiko.

Kugira ngo ibyatsi bakoramo imiti bibashe kuvamo iyo miti ndetse bikura neza, bisabwa kwitabwaho, bigakorerwa isuku kandi bikavanwamo ibyatsi byashaje kugira ngo bitanduza.

Ibyatsi bimwe na bimwe biterwa kugira ngo bizakurwemo imiti izifashishwa mu kuvura abantu. Ibyatsi rero bigira ibara ry'icyatsi kibisi, bituma bibasha gukurura izuba ndetse bikabasha no gukora Photosynthesis kugirango bikure.

Ibimera bituma isi igaragara neza kandi bikabasha gutanga umwuka wo guhumeka utunganyije, kubera ibara ryiza ry'icyatsi kibisi, ubwo rero birakura kandi kugira ngo bikure ni uko biba biteye mu butaka bwiza.

Umuravumba ni kimwe mu miti ikorwa mu cyatsi bita umuravumba, kirura cyane, icyo cyatsi kivura giripe ku rwego rwo hejuru, kandi kikifashishwa no kuvura izindi ndwara.

Bmwe mu bintu bikorwamo imiti harimo ibyatsi ndetse n'imbuto zera kubiti urugero nk'indimu, ibyatsi byo biterwa mu butaka bumeze neza kugira ngo bikure neza babikoremo imiti hashobora kuba hari ibirandaranda ndetse n'ibyera bizamuka.

Ibimera bishobora kuvamo imiti yifashishwa mu kuvura abantu, bishobora gukorwa gakondo cyangwa bikajyana mu ma laboratore bigakoreshwa neza biba bifite ibara ry'icyatsi kibisi ribifasha gukurura urumuri kandi bigakura, biterwa mu butaka bumeze neza kugira bikure neza.

Ibimera ni bimwe mu bituma habaho umwuka mwiza kubera ibara ryabyo ry'icyatsi kibisi, bitunganya umwuka kugira ngo bikure biba ngombwa ko bihingwa mu butaka bwiza kandi bigakina n'umucyo.

Ibibabi by'ibyatsi biba bisa icyatsi kibisi, bibasha gukora fotosentezisi, bikaba byabasha kuyungurura umwuka duhumeka, kandi bikaba biteye mu butaka bwiza kugira ngo bibashe gukura neza.

Ibimera ni imwe mu bintu bituma isi isa neza, indabyo zigira amabara atandukanye bigatuma abazireba bibashimisha rimwe na rimwe nazo zigira uruhare mu gutuma habaho umwuka mwiza kandi abantu banazifotorezaho zigomba kuba ziteye mu butaka bwiza kugira ngo zise neza.

Ibyatsi bikorwamo imiti biba bifite akenshi ibara ry'icyatsi kibisi biba bihinze ahantu hafite ifumbire ku buryo habifasha gukura neza kandi bikenera urumuri kugirango bikure.

Ibyatsi bitandukanye bikorwamo imiti yifashishwa mu buvuzi, ibyatsi biyitabwaho bigahingwa ahantu heza hari ifumbire kugira ngo bikure neza, kandi bigomba guhingwa ahantu hagera urumuri kugira ngo bikure bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Bimwe mu bikoresho twifashisha mu kwita ku mubiri. Nk'uburoso twifashisha mu gihe turi koza amenyo mu mugitondo, igikombe tubushyiramo, ndetse n'imiti twisiga ku mubiri kugira idukurireho imyanda, ndetse kandi n'isume twihanaguza mu gihe tumaze koga.

Ibiti bimwe na bimwe bikoreshwa mu miti yo kwa muganga ndetse ibyinshi biranahingwa, ibyo biti biba bisa icyatsi kibisi kugira ngo bibashe gukora fotosentesisi bikure kandi bikomere kugira ngo bivemo,

Farumasi ni imwe mu nzu zicuruza imiti yabugenewe yifashishwa mu kuvura, ishobora kuba iririmo mu dupipiri cyangwa amacupa y'ibyuma, hakoramo umuganga wabyize ubizi neza ku buryo yumva ikibazo cy'umurwayi akabona kumuha umuti.

Ikibabi gifite ibara ry'icyatsi kibisi, ibara ry icyatsi kibisi ni rimwe mu mabara meza, atuma ibimera bibasha gukura izuba kandi bikabasha gukura, ibyo bigatuma bishobora kwera imbuto, imbuto ziribwa ndetse n'ibindi.

Umuganga ukora muri laboratwri areba ko imiti agiye gukoresha yuzuye kandi yujuje ubuziranenge, kugira ngo itagira uwo itera ikibazo ayipimira muri laboratwari ahantu habugenewe haba harimo ama ameza n'intebe zifashishwa mu gihe ari gukora icyo gikorwa.

Kwita no gusuzuma ibyatsi dukoramo imiti ni byiza kubera ko dukora ibyatsi mo imiti itandukanye, ni byiza ko tubigirira isuku, tukabitunganya, tukabyoza, tukabyanika bikuma kugira ngo umuti ube ufite umwihariko.

Ibimera bifite amabara y'icyatsi kibisi atuma bibasha kubaho kandi bigakora umwuka wa ogisijene, ibimera bihingwa mu butaka kugira ngo bibashe gukura, iyo bimaze kwera bishobora kuvamo imiti yifashishwa mu buvuzi.

Ibyatsi birandaranda ku butaka bimwe bishobora kuvamo imiti akenshi bikunda kuba ari indabyo kandi bivamo imiti myiza ishobora kuvura inkorora ndetse n'izindi ndwara bishobora kurandaranda bikaba birebire cyane.

Ibimera mu ibara ry'icyatsi kibisi, bishobora kuvamo imiti gakondo, rimwe na rimwe bikaba byajyanwa muri laboratwari kugira ngo bikorwemo imiti yo kwivuza, ubwo rero ni ngombwa ko tugomba kubyitaho, tukabisoroma mu gihe tugiye kubikoresha.

Itsinda ry'abantu bashinzwe ubuhinzi ndetse no kugenzura ibihingwa byavamo imiti izifashishwa mu buvuzi. Aba bantu bashinzwe ibyo bihingwa baba bambaye imyenda bahawe n'iryo shami kandi basa.

Igiti cyeze kirakura cyane, ibi biti bivamo imiti itandukanye, ibi biti bishobora gufata igihe kugirango bikure, kandi bikenewe n'amazi menshi kugirango bigere kure cyane.

Imwe mu miti ikorwa mu buryo bwa gakondo, bitabaye ngombwa ko ica muri laboratwari, iyo miti ishobora gukorwa hifashishijwe uburyo bwo kuyisekura, kuyicanira no kuyiteka, ikaba ishobora kuvura abantu.

Mu kwita ku mubiri, dukoresha ibintu bitandukanye. Dushobora gukoresha tangawize, tugategura akaji keza gakoze mu macunga, tukagategura mu gatasi kabugenewe.

Mu kubaka cyangwa gukora korotire dushobora gukoresha ibintu bitandukanye urugero nka senyenge, iyo twubakishije senyenge iba ikomeye cyane, ariko kugira ikomere utera ibyatsi hafi yayo kugira ngo bijye bizamuka byizingiraho hanyuma bikomere cyane.

Korogate n'umuti wo kwiborosa ni kimwe mu bikoresho twifashisha mu gihe turi gukora isuku y'amenyo, dushobora kwiborosa mu gitondo cyangwa ikindi gihe cyose tumaze gufata amafunguro.

Ibyatsi birandaranda ni bimwe mu byatsi bikunda kubamo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi, bishobora kuba bifite indabo kandi biterwa mu butaka bwiza bufite intungamubiri, kugira ngo bikure neza.

Igiti cy'umwembe cyatewe ahantu heza kugira ngo kizakure, gitangira ari gito kikarangira ari kinini kizeho n' imyembe abantu barya, biba byiza iyo tubyitayeho tukagisasira tugiraho ifumbire kugira ngo biku neza, kuko akenshi kivamo n'imiti yifashishwa kwa muganga.

Ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi bituma bibasha gukora fotosentezisi kandi bigakura ndetse bigakuru n'imirasire yizuba, ibi byatsi bikorwamo imiti yifashishwa kwa muganga ishobora kuba yarakorewe kwa muganga cyangwa yarakorewe ahantu hatandukanye cyangwa ari abantu bayikoreye.

Ingemwe z'ibiti zatunganyijwe zikaba ziteguye kujya zitunganyirizwa mu mashashi yabugenewe kugira ngo zikuriremo babone kuzitera. Zishobora guterwa ari ebyiri cyangwa eshatu cyangwa rumwe.

Imiti yifashishwa mu koza amenyo iba itandukanye bitewe n'uruganda ruyikora igura n'igiciro gitandukanye bitewe n'uko ingana kandi ino miti iba yizewe kubera ko iba yarahawe garanti n'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuziranenge.